Inzoga bita virunga bayisutse mu kirahure, hari bamwe bahitamo kuyinywera mu icupa abandi bagahitamo kunywera mu kirahure bitewe n'icyo buri muntu akunda cyane kurusha ikindi.

Ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga umuntu ashobora gukoresha; agafata terefone ye agakamera ino kode, hanyuma ikamugeza ku bicuruzwa abo bantu bafite cyangwa izindi serivise batanga.

Aka ni agapapuro kaba kariho urutonde rw'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye waguze, ndetse n'amafaranga wagiye ubigura, hariho n'igiteranyo cyayo, aka gapapuro kandi haba hariho n'umusoro watanze kuri buri gicuruzwa.

Akabari gatatswe n'amabara meza cyane atandukanye: umutuku, icyatsi, ubururu, bakaba bafite ibyo kunywa byiza bitandukanye, yaba ibisindisha ndetse n'ibidasindisha, bakagira n'ahantu heza ho kwicara.

Abantu bari kunywa inzoga, ndetse imbere yabo hakaba hari n'uburyo abantu bakunze gukoresha bishyura amafaranga bunyuze mu ikoranabuhanga, aho wishyura amafaranga y'ibyo wakoresheje nta kindi kiguzi kigiyeho.

Akabari keza gafite aho kwicara heza ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, kakaba gatatswe n'amabara meza cyane, aho bafite na ekara nini berekaniraho imipira igiye itandukanye, ku buryo abahanywera bataha bishimye.

Akabari gafite ahantu hanini kandi heza ho kwicara, kakagira amatara amurika neza, ibyo kunywa bitandukanye bisembuye n'ibidasembuye. Bakaba bafite n'imashini ibafasha gutuma ibyo binyobwa byabo biguma bikonje.

Icyapa kiriho icupa rinini ry'icyo kunywa, hakaba hariho n'abantu bane bari kubyina, ubona ko bishimye cyane, bashobora no kuba banyweye iki kinyobwa, iki cyapa rero kikaba kiranga akabari aho wasanga ibi byose.

Akabari bacuruza ibyo kunywa bisembuye, hakaba hari ameza ariho icyo kunywa ndetse n'ibirahure bigiye bitandukanye, bigaragaza ko hari abantu baje kuhanywera ndetse bakaba bari kuryohwerwa cyane n'ibyo binyobwa.

Akabari karimo abantu benshi abari kunywa inzoga n'abatari kuzinywa, abicaye n'abahagaze, kakaba karimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, bisembuye ndetse n'ibidasembuye nanone hakaba hari ekara nini cyane iri kwaka.

Urupapuro ruba ruriho ibyo kurya n'ibyo kunywa n'amafaranga bigura, aho ruhabwa umuguzi kuburyo abasha kureba ibyo yifuza n'amafaranga bigura hanyuma akabituma azi ayo bigura.

Akabari keza cyane gatatswe n'ibiti, kakaba gafite n'ahantu heza cyane ho kwicara bakagira byo kunywa biryoshye ndetse bikonje cyangwa bishyushye bitewe n'ibyo umukiriya yifuza.

Umukobwa uri gukoresha telefone ye ngendanwa arahantu hari amatara y'umutuku bigaragara ko ari akabari akaba ari kureba ibindi yamenya kuri telefone ye.

Umuntu ufashe Telefone mu ntoki akaba yambaye ingofero y'umweru, imbere ye hari ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ibisindisha ndetse n'ibidasindisha bikaba bigaragara ko ari nko mu kabari.

Akabari keza cyane gafite ibyo kunywa bigiye bitandukanye bisembuye ndetse kakaba gatatswe n'amabara atandukanye aryohera abaje kunywera aho ngaho bakaba bafite n'imyanya myiza cyane yo kwicaramo.

Icyapa kigaragaza izina ry'akabari ndetse kikaba kigaragaza ko banafite ibisindisha, bakagira n'imiziki myiza iryoheye amatwi, aho uwagiyeyo abasha gutaha anezerewe.

Umugabo ucuruza ibinyobwa bisembuye, akaba afite ibirahuri bibiri birimo inzoga, hari abakunda kunywera inzoga mu birahure, abandi bagakunda kuzinywera mu mavide nk'uko aba yaravuye muruganda ameze kuko arinabyo biryoha cyane.

Icyapa kiriho izina ry'akabari ndetse hakaba hari n'igipangu kinjira muri ako kabari aho uwinjiyemo ashobora kubona ibyo kunywa bitandukanye yaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye bitewe n'ibyo ukunda.

Umusore uri kwambukiranya umuhanda w'amabuye ufashe amvirope mu ntoki, imbere ye hakaba hari icyapa kigaragaza ko hafi aho hari akabari ndetse hakaba hari n'umutaka w'umuntu ukorera ikigo k'itumanaho mu Rwanda.

Akabari keza cyane gafite amatara agiye atandukanye, hatatse, ka kagira aho kwicara heza, ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye na none bakagira imashini zibafasha gutuma ibyo binyobwa byabo, biguma bimeze neza.

Umu motari utwaye umugenzi, bakaba bari kunyura ku kabari gaparitseho ama modoka, ubona ko bashobora kuba ari abantu bagiye kuhafatira ibyo kunywa bisindisha cyangwa bidasindisha.

Ibyo kunywa bisindisha by'amoko agiye atandukanye atatu harimo iyo bita miitzingi, skol ndetse n'Amstel, hakaba hari abakunze kwinywera miitzingi ariko ntibanywe skol.

Akabari ahantu abantu bajya bakishimana n'inshuti zabo ndetse n'imiryango yabo, banywa ibyo kunywa bisembuye cyangwa bidasembuye bitewe nicyo buri umuntu ku giti cye yishimira kandi akunda.

Akabari gatatswe n'amabara meza cyane, kakagira ahantu heza ho kwicara, kakaba karimo abantu benshi baje kuhanywera nanone bafite ahantu heza ho kubika ibinyobwa byabo n'imashini zibafasha gutuma bikomeza gukonja.

Urutonde ruriho ibyo kunywa bikomeye ndetse n'ibyoroheje, hakaba hagiye hariho n'amafaranga ibyo binyobwa bigiye bigura, ibi bifasha uwaje abagana, kubona urutonde rw'ibyo bafite n'amafaranga bigura.

Akabari keza cyane gafite ahantu ho kwicara ibyo kunywa bisembuye ibidasembuye, ndetse bakagira n'imiziki myiza kuburyo uwahanywereye ataha ahirahira atumva ababaye kubera ko ariho yanywereye.

Urutonde ruriho ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, rukaba rukunze guhabwa abantu baje bashaka serivise, ku buryo bareba ibihuje n'ubushobozi bwabo, hanyuma akaba ari byo batuma.

Akabari gafite ahantu heza ho kwicara, kakagira amatara meza cyane, ndetse n'ama ekara manini afasha abantu kureba imipira igiye itandukanye, bakaba bafite n'imashini zibafasha gukonjesha ibinyobwa byabo.

Akabari karimo ibyo kunywa bigiye bitandukanyekanya ibisembuye n'ibidasembuye, bakagira n'ibikoresho bibafasha ibyo binyobwa byabo kuba bikonje, ku buryo abaje babagana bahabwa icyo kunywa bifuza icyo ari cyo cyose.

Urupapuro ruba ruriho ibyokurya, ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ndetse n'amafaranga yabyo n'uko byitwa; rukaba ruhabwa umuntu waje abagana kugira arebe ibyo yifuza bihuje neza neza n'ubushobozi bwe.

Akabari gacuruzamo inzoga z'amoko menshi atandukanye, imitobe ndetse n'amazi bakanagiramo za nzoga zikomakomeye abantu benshi batinya. Ushobora kuhajya ukaba wahanywera ibisembuye n'ibidasembuye.

Icyapa kigaragaza izina ry'akabari, ndetse hakaba hari n'amarembo yinjira muri ako kabari; aho bafite ibyo kunywa bisembuye, ibidasembuye, wowe ukaba uhitamo ukurikije ibyo ukunda kurenza ibindi.

Umwe mu bahanga mu kuvanga ibyo kunywa, ari kuvangamo icyo kunywa kugira ngo bize kuza biryoshye kandi bikomeye. Abantu barabikunda cyane kubere ko baba bavanze amoko menshi y'ibyo kunywa bitandukanye.

Mu kabari karimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye, bafite ahantu heza ho kwicara, ku buryo uhicaranye n'umuntu wawe yagenda yishimye, akwirahira ko wamujyanye ahantu heza.

Akabari keza cyane karimo amatara yaka neza ndetse n'ahantu heza ho kwicara aho bafite ibinyobwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye bakagira n'imashini zibafasha gutuma ibyo binyobwa byabo bituma bikonje.

Ikaye iba iriho urutonde rw'ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, ikaba ihabwa umuntu waje abagana kugira arebe ibyo yifuzaho bihuje n'ubushobozi bwe akaba yabibatuma bakabimuzanira azi n'ibiciro byabyo.

Icyapa kinini kiri kunzira kigaragaza izina ryakabari, ndetse bikaba binagaragara ko bafite ibyokunkwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye; aho ugerayo ukihitiramo icyo wifuza bitewe nicyo ukunda.

Akabari gakomeye cyane ndetse gafite amatara abereye ijisho, aho banerekana imipira kandi bakaba bagira n'uburyo bworoshye bwo kwishyura batagukase, haba haje rero abantu kuhanywera kubera ubwiza bwaho.

Akabari keza kagizwe n'imbaho aho gafite ahantu heza ho kwicara, kakagira ibinyobwa by'amoko atandukanye ibisembuye n'ibidasembuye bakaba bafite na ekara nini cyane zibafasha kwerekana imipira.

Akabari gafite ibyo kunywa byiza bishyushye n'ibikonje, kakagira n'ahantu heza ho kwicara, bafite amatara meza, ahantu hari akayaga gatuje ku buryo ushobora kuhazana umuntu wawe akahava yishimye cyane.

Ahantu bacuruza ibyo kunywa bitandukanye ndetse n'amafunguro meza cyane, abantu babagannye bari kunywa ndetse bakanarya, bishimiye cyane ayo mafunguro kandi bishimiye cyane n'aho hantu.

Akabari gatatse neza gafite amabara yaka hakaba hari ahantu heza cyane ho kwicara, hicaye umuntu wambaye imyenda y'umukara ndetse n'uri kumuha serivise nawe wambaye imyenda y'umukara aho bacururiza ibyo kunywa.

Icyapa kiranga akabari ndetse n'izina ryako, bakaba bafite ibyo kunywa bisembuye ndetsa n'ibidasembuye bakagira n'imiziki mwiza cyane aho uwabagannye ataha yishimwe bitewe na serivise bamuhaye.

Akabari, aho bafite ibisindisha by'amoko agiye atandukanye, iyo ushaka kwishimana n'inshuti n'abavandimwe ushobora kubagana, bakabagezaho ibyo kunywa ndetse baba bafite n'ibyo kurya biteguwe neza.

Umuhanda w'amabuye urimo ipikipiki itwaye umugenzi, imbere yaho hari igare riparitse, imbere y'igare hakaba hari icyapa kinini cyanditesho izina ry'akabari, icyo gipangu gihagazeho umuntu wambaye umupira w'ubururu.

Ahantu bacuruza inzoga z'amoko agiye atandukanye, hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umweru, afashe icupa mu ntoki, ari kunywa, anareba kuri ekara nini ibiganiro bigiye bitandukanye biri kunyuraho.

Akabari keza gatatswe n'amabara meza, kakagira ahantu heza ho kwicara ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye ibisindisha n'ibiodasindisha, bakagira n'abakozi bafasha abantu baje babagana kubaha serivisi nziza.

Akabari karimo abantu benshi kakagira n'aho kwicara henshi, hafite ibyo kunywa bigiye bitandukanye bikubiyemo ibisembuye, ibidasembuye ndetse kakaba gatatswe n'amatara meza cyane amurikira abitabiriye.

Akabari keza gafite ibyo kunywa byiza bigiye bitandukanye, yaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, bakaba bafite n'ahantu heza cyane ho kwicara aho uba witegeye ekara nini cyane ureberaho imipira.

Akabari gafite ibyo kunywa byinshi cyane bigiye bitandukanye, urabona ko bafite n'ububiko bw'ibyo kunywa byinshi cyane, ku buryo uwaje abagana ntacyo yakwitwaza icyo kunywa kiba gihari, wakicara ukanywa ndetse ukanishyura.

Akabari kariho icyapa kiriho ivide n'ikirahuri kirimo inzoga, kakaba gafite ahantu heza cyane ho kwicara ndetse n'indabyo, gafite n'icyapa kiriho izina ry'ako.

Akabari keza gafite ahantu hatandukanye ho kwicara, ndetse kakaba gatatswe n'amabara yaka cyane ari mu ibara ry'ubururu. Bafite n'imashini zibafasha gukonjesha ibinyobwa byabo.

Urupapuro ruriho amazina y'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye n'amafaranga bigiye bigura Aho ruhabwa umuntu waje abagana , kugirango abashe kureba icyo kunywa ashaka amafaranga kigura akaba yabasha kugitumiza.

Urutonde ruriho ibyo kunywa, ndetse n'amafaranga bigiye bigura, aho baruha uwaje abagana, akabasha kurebaho icyo kunywa ndetse n'amafaranga kigura gihuje n'ubushobozi bwe akaba yagitumaho.

Ahantu hari ibinyobwa byinshi cyane bigiye bitandukanye ibisembuye ibidasembuye bafite n'ububiko bw'ibyo kunywa bisembuye byinshi n'ibidasembuye byinshi cyane ku buryo uwabagana ntakibazo na kimwe yagira.

Icyapa kinini kiriho abantu bari kubyina ndetse kikaba kiriho n'ikinyobwa bita Skol gikunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda aho abagikoresha kibafasha kwishima ndetse bakagira akanyamuneza.

Akabari keza cyane kari ku muhanda, kakaba gafite ahantu heza ho kwicara, ndetse n'ameza meza yo kuganiriraho, bakaba bafite ibinyobwa bisembuye ibidasembuye, ukaba uhitamo icyo wifuza bitewe n'icyo unywa.

Akabari gafite ahantu heza cyane ho kwicara ndetse kakaba gatatswe n'amabara meza, bafite ibyo kunywa bigiye bitandukanye bisembuye, ibidasembuye ndetse bakagira n'imashini ibafasha gukomeza bikonje.

Uburyo bwiza kandi bwizewe bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho ukoresha telefone yawe ugafotora kano kantu k'umweru n'umukara, hanyuma ugahita ugera ku rubuga rwabo ku buryo ushobora kubishyura cyangwa ukarebaho n'ibindi bicuruzwa bagira.

Urupapuro cyangwa ikayi, ruba ruriho ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse n'ibiciro byabyo, aho uru rupapuro rwifashishwa mu tubari ahantu abantu bafatira amafunguro, kugira umuntu arebe igiciro cy'ifunguro ashaka gufata uko rigura,

Icyapa kigaragaza izina ry'akabari uko kitwa, kikaba kiriho na nimero wabahamagaraho ushaka izo serivise zabo, ndetse kikaba kiriho n'ibindi bintu byiza bafite, bakaba bafite inzoga, bakagira amasikirini berekaniraho imipira, ndetse n'ibindi.

Umuhanga mu kuvanga ibyo kunywa, ari kuvanga icyo kunywa cyihariye kigizwe n'amayoga menshi atandukanye, ku buryo ukinyweye aba anywe inzoga nyinshi cyane kugira ahite anasinda vuba vuba.

Uburyo bw'ikorabuhanga bwo kugera ku rubuga rw'abantu bikorera aho ufata telefone yawe ugatungaho kamera hanyuma igahita ikugeza kuri urwo rubuga ukabasha kurebaho ibindi bintu ukeneye kureba.

Akabari keza gafite ahantu heza ho kwicara ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye ibishyushye, ibikonje ndetse bakaba bafite na ekara nini berekaniraho umupira ku buryo abaje babagana bishimira kuharebera imikino.

Inzoga iri mu kirahure kinini. Ibi abagabo barabikunda cyane , cyane cyane iyo bari kuganira n'incuti n'imiryango yabo hakaba hari n'abandi bakunda kunywera mu ivide nkuko inzoga iba imeze ikiva mu ruganda.

Akabari keza cyane gatatswe n'amabara amurika cyane. Gafite ahantu heza ho kwicara uri kunywa icyo kunywa cyawe, cyangwa wasohokanye n'abagize umuryango wawe, mwaje kuhishimira.

Icyapa kiranga akabari ndetse kiriho n'izina ry'ako kabari aho bafite ibyo kunywa bigiye bitandukanye aho ubinywa ukizihirwa, bagira imiziki myiza cyane kuburyo ubasha no kubyina urikwinywera n'icyo kunywa cyawe ukunda cyane.

Urupapuro cyangwa se ikaye baha umuntu waje kugura ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, akabasha kurebaho ibyo yifuza amafaranga bigura hanyuma akabitumiza azi n'igiciro cyabyo.

Urupapuro ruriho amazina y'ibyo kunywa bigiye bitandukanye ndetse n'amafaranga bigura, aho baruha umuntu waje abagana kugira abashe kureba icyo kunkwa yifuza n'amafaranga cyaba kiri kugura ako kanya.

Akabari keza cyane abantu bakunda kujyamo bakinywera ibisindisha ndetse banirebera ka ruhago. Hakaba hari ibyo kunywa bikonje, ibishyushye hari n'abantu babafasha kubibagezaho kandi byihuse.

Abagabo babiri n'abagore babiri bahuriye mu kabari, aho bari kuryoherwa n'ibyo kunywa byabo ibisembuye n'ibidasembuye, baganira, bahuza ibitekerezo gake gake mu gihe bari kunywa ibyo kunywa byabo.

Icyapa kiba kiriho ibyo baba bafite buri munsi ndetse kikaba kimanikwa ahantu imbere y'utubari cyangwa abantu bacuruza ibyo kurya. Bakaba baba bagaragaza icyo bafite ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane no kugeza ku wa gatandatu.

Icyapa kiranga akabari n'izina ryako, aho ushobora kubagana ukabasha kubona ibyo kunywa bigiye bitandukanye, harimo ibisembuye, ibidasembuye bitewe n'icyo wifuza.

Abantu babiri basohotse ndetse bakaba bari guhererekanywa icyo kunywa kiryohera cyane. Bafite n'indimu ziri bubafashe kuryoherwa n'umutobe wabo bari kunywa. Ndetse bakaba bari n'ahantu heza, hatuje kandi hacyeye.

Akabari gafite ibyo kunywa byiza kandi biryoheye ijisho, ibisembuye, ibidasembuyo, ndetse bakaba bafite n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bibafasha kuba bakonjesha ibinyobwa byabo ku buryo abakiriya babasha kubona icyo bifuza mu mahitamo yabo.

Icyapa kiranga akabari n'izina ryako, ampande yaho haparitse amamodoka ashobora kuba ari ay'abantu bagiye kubagurira kubera ubwiza bwa serivise batanga inoze cyane.

Urutonde ruba ruriho ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse n'amafaranga bigura ruhabwa uwaje kugura kugira abashe kureba neza neza ibyo yifuza, hanyuma bitume azi n'amafaranga bigura.

Mu kabari, aho bafite inzoga z'amoko agiye atandukanye zikunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda, aho babagana baje kugura izi nzoga kugira ngo barusheho kugira akanyamuneza ndetse n'ibyishimo byinshi cyane.

Icyapa kinini hejuru hariho izina ry'akabari cyanditse mu mabara y'umutuku, icyo cyapa kiba gishushanyijeho umuntu uri kunywa inzoga n'abandi bari kubyina ndetse hakaba hari ikirahure na cyo kirimo inzoga.

Ahantu hari abantu benshi aho baje gushyigikira amakipe yabo bakunda kugira aze gutahana insinzi, bari kuyashyigikira bananywa ibyo kunywa bitandukanye, ibisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Akabari gatatswe n'amabara meza cyane ndetse kakaba gafite n'ibyokunywa bigiye bitandukanye bikomeye hakaba harimo n'ibidasindisha kandi bafite n'imashini ibafasha gutuma ibyo binyobwa byabo biguma bikonje.

Akabari gafite ahantu heza ho kwicara, kakagira amatara n'ibyo kunywa by'ubwoko bugiye butandukanye yaba ibisembuye cyangwa se ibidasembuye kandi bakagira n'ama ekara manini yo kureberaho imipira.

Akabati keza cyane, gatatswe n'amatara afite ubwiza buhebuje, kakaba karimo ibyo kunywa bisembuye, impande yaho hakaba hari igikoresho cy'ikoranabuhanga, gifasha abantu kureba imikino igiye itandukanye.

Urutonde ruriho ibyo kunywa ndetse n'amafaranga bigiye bigura, ruhabwa uwaje abagana kugira abashe guhitamo ibijyanye n'ubushobozi bwe, cyangwa yifuza; bakaba babimugezaho bitagoranye.

Icyapa kiranga akabari ndetse n'izina ryako munsi yaho hakaba hari n'abandi bantu bacuruza imyambaro myiza cyane y'abagabo, aho bacuruza amashati ndetse n'ibyo kwambara bindi bijyanye n'abagabo.

Urutonde ruriho ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa n'amafaranga bigiye bigura, uru rutonde rukunze guhabwa uwaje abagana, kugira ngo abashe kureba ibihuje n'ibyo yifuza ndetse bihuje n'ubushobozi bwe, akaba aribyo atuma.

Ahantu mu kabari bacuruza ibinyobwa bitandukanye ibisembuye, n'ibidasembuye hari ameza ariho amavide, ndetse n'ibirahure bisutsemo inzoga aho abantu baje kwishimana n'abagizen'imiryango yabo banywa ku bisembuye.

Urutonde ruriho ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse rukaba ruriho n'amafaranga ibyo bintu bigiye bigura. Uru rwifashishwa n'abafite amaresitora agiye atandukanye abaje babagana bakabasha kurebe ibyo bafite bitabagoye.

Indobo irimo amandazi abiri, hakaba harimo n'agakoresho kifashishwa kugira bayafate bayaha umuntu ugiye kuyarya, kugira batayanduza; aya mandazi rero araryoha cyane kubera ko aba arimo amata n'isukari.

Ameza ariho agakombe karimo uduti bakunda gukoresha bamaze nko kurya inyama, hanyuma bagakoresha bakuramo imyanda yasigaye mu menyo, kakabafasha kuba umuntu yagenda nta pfunwe afite.

Icyuma gikonjesha amata ndetse kikayafasha kugumana wa mwimerere wayo, ku buryo ababagana baza kubaha amata akeye kandi ameze neza atigeze yangirika, ibi abantu bakaba bakunze kubyishimira cyane.

Umusore wagiye aho bacururiza amata, bakaba bari kumupimira ahuje nayo yifuza, bakayamusukira mu kajerekani. Igiti kiriho inka, inka ikaba iri mu gicucu.

Impapuro z'isuku zifashishwa n'abatari bake aho bazifashisha bari kwihanagura nko ku munwa cyangwa mu ntoki ahantu baba banduye wenda ari amavuta yabagiyeho bitewe n'amandazi bariye cyangwa ibindi.

Amasambusa aryoha cyane akunzwe n'abatari bake; akozwe mu ifarini, rimwe na rimwe bashyiramo ibirayi, ubundi bagashyiramo inyama, ayangaya akaba agizwe n'inyama; abantu rero barayakunda ku bwinshi.

Amandazi meza cyane, yujuje ubuziranenge, akozwe mu ifarini akaba arimo n'amata ndetse n'isukari, bakaba bayashyira mu mavuta kugira ngo ashye neza, akundwa n'abantu batari bake, abana ndetse n'abantu bakuru.

Amapaki arimo ibyo kurya bikoze mu ifarine, harimo amandazi, imitsima myiza cyane ikozwe mu ifarine, bikundwa n'abantu benshi kubera uburyohe bwabyo bigira.

Amata afunze mu buryo bugiye butandukanye, hari ari mu bucupa bunini, ubujererekani ndetse n'utundi tw'udupalasitike dutoya, aya mata akundwa n'abana cyane kubera ko aba aryoshye kandi yujuje ubuziranenge.

Umukozi w'ahantu bacuruza amata, ari gusuka amata mu bikombe bigiye bitandukanye, kugira abigeze ku bakiriya. Ashimishijwe no kuba bagiye kunywa ku mata yabo meza kandi aryoha, yujuje ubuziranenge.

Aho bacururiza amata ndetse bakagira n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye n'ibyo kurya ndetse bakaba batanga serivise nziza kubera ko amata yabo aba yujuje ubuziranenge, atunganyijwe neza kubera imashini zabugenewe.

Ahantu bacururiza amata ndetse bakaba bafite n'ibyo kurya bigiye bitandukanye aho bafite imitsima myiza ikozwe mu ifarini ndetse n'amacapati n'amandazi bakaba bafite n'imashini ibafasha gutuma amata yabo akomeza kugira umwimerere.

Ahantu bacururiza amata bakaba bafite imigati, amandazi ndetse n'imitsima myiza cyane ikoze mu ifarini bikaba bicuruzwa n'umusaza hari n'umuhungu ushobora kuba amufasha kwita ku baje babagana kugira ngo serivise irusheho kugenda neza.

Igipapuro kirimo umutsima mwiza cyane ikozwe mu ifarini, ukaba ukundwa n'abatari bake cyane kubera ko uryohera, akarusho ukarushaho kuryoha cyane uri kuwunywesha amata.

Ameza ariho ifunguro nicyo kunywa bigaragara ko ari ahantu abantu bajya bakeneye ibyo kurya nibyo kunywa bakabaha izo serivise bifuza hanyuma bakarya, bakishyura bagataha.

Umukobwa wicaye yashyize amaboko ye ku meza, urabona ko ari gutekereza cyangwa akaba ateze umuntu amatwi abyitondeye kugira ngo yumve neza icyo bamubwira cyangwa atekereze n'ibindi bintu.

Ahantu bacuruza amata hakaba hicaye umumama imbere ye hari ibikombe bibiri ndetse hakaba hari n'ikindi gikombe kirimo amata bakaba bafite n'imashini ifasha gukomjesha ibinyobwa.

Umumama uri ahantu bacuruza ibyo kunywa bigiye bitandukanye, akaba yegeranye n'icyuma gifasha abantu gukonjesha ibyo kunywa kugira abantu baze kubinywa bikonje, hakaba hari n'abakunda ibidakonje, bagafata ibindi.

Ahantu bacururiza amata uyacuruza ni umudamu yambaye ishati irimo uturongo tumanuye akaba afite n'ijage muntoki irimo amata, aho ari kudaha amata ayashyira mw'ijage kugirango ayahe umukiriya waje amugana.

Ahantu bacuruza amata, ndetse habaka hari n'ibyo kunywa bindi bigiye bitandukanye, bafite imashini itunganya amata, agakomeza ameze neza cyangwa anakonje, hakaba hari abantu babiri bari gusuka amata mu gikombe.

Ahantu bacuruza ibyo kunywa bitandukanye; amata, amazi, ndetse n'imitobe itandukanye, bakaba bafite n'ibyo kurya birimo nka capati, aho bafite n'ibikoresho bibafasha gukomeza ibyo kunywa byabo bishyushye.

Ahantu hari amagare ndetse n'amapikipiki, hakaba harimo ipikipiki iparitse iriho igicupa kinini babikamo amata, kugira ngo kigere ku bantu amata akimeze neza; umumotari rero akaba ashobora kuba agiye kuyajyana aho bayamutumye.

Ibyo kunywa byiza kandi biryoherera cyane, bikunze gukundwa n'abana, bikaba bibafasha guhorana itoto, ndetse bagakura basa neza cyane kubera kunywa amata y'iwacu mu Rwanda.

Ahantu bacuruza amata ndetse bakagira n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye, hari igikombe kirimo amata ndetse n'isahani bashyiraho ibyo kurya umuntu ari bwifashishe ari no kunywa ayo mata yabo aryoshye cyane.

Akajerekani karimo amata aryoshye cyane, ni amata y'ikivuguto babanza kubika igihe runaka kugira ngo afatane, hanyuma bakayatunganya akaza kuba amata afashe, akundwa n'abantu batari bake cyane.

Aho bacuruza amata bafite ibikoresho bibafasha kuyabika kuburyo aguma ashyushye, ndetse bakagira nibyo umuntu yakifashisha Ari ku yanywa, harimo capati nziza ndetse n'imigati ikoranye ubuhanga.

Aho bacururiza amata, bakagira amagi ndetse n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye bidasembuye kandi bakaba bafite n'imashini ibafasha gutunganya amata yabo, ku buryo abakiriya baza kuyabona akimeze neza afite umwimerere.

Ibibindi bikozwe mu cyuma, byifashishwa mu kubika amata, bikaba biyabika neza, akagera ku bantu bagiye batandukanye hirya no hino, ku buryo abageraho akimeze neza kandi asukuye, yizewe.

Ibisuguti byiza cyane bikozwe mu ifarini cyangwa ibijumba biri ku isahani biri kumwe n'urupapuro rw'isuku, umwihariko wabyo rero bikaba biryoha cyane iyo bininywesheje amata abantu benshi barabikunda cyane.

Aho bacururiza amata ndetse n'ibindi byo kunywa bidasembuye, bakaba bafite n'imashini ibafasha gutuma amata yabo akomeza kugira ubuziranenge; si ibyo gusa kuko bafite n'ibyo kurya, bigufasha kunywesha ayo mata yawe.

Umuntu ufashe igikombe mu ntoki kirimo amata, ku ruhande rwe hari isahan irimo umutsima ukoze mu ifarine, ikiyiko , ndetse n'ikaye, imbereye hahagaze umuntu wambaye ipantaro y'umuhondo.

Amata meza cyane ari mu kajerekani apfundikiye ku buryo bwihariye, kandi bwujuje ubuziranenge, akundwa n'abatari bake; cyane kubera ko ni amata yihariye aba afashe, yaratunganyijwe mu buryo bwihariye.

Irindazi riri ku isahane riri kumwe n'urupapuro rw'isuku, Iri ni rimwe mu bintu bikozwe mu mafarini abanyarwanda bakunda cyane, ndetse bikunda kuryohera abana nibo babyihebeye kurushaho.

Ahantu bacuruza amata bakaba bafite n'ibindi byo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye birimo amata, amazi cyangwa imitobe iryohereye ndetse bakaba bafite n'ikintu bakarabiramo mbere yo kwinjira.

Amata ndetse n'icyo kurya gikozwe mu ifarini bikaba bikunzwe n'abatari bake kubera uburyohe bwabyo iyo ubiriye ukabinywesha amata biraryoha cyane ku buryo abantu benshi baza babigana aribyo bashaka.

Umugati ukozwe mu ifarini, ndetse bakabanza kuwunyuza mu ifuru kugira ngo uze umeze neza, uyu ni umwe mu migati iryoha ukundwa n'abatari bake muri iki gihugu cy'u Rwanda, kubera ko abantu benshi bakunda kuwufata ku mafunguro yabo ya mugitondo.

Amata meza y'ikivuguto atunganyijwe apanze mu tubati, akaba ari amata aryohera abana cyane kubera ko aba yongerewemo inkeri n'isukari ibyo bigatuma abana bayakunda cyane.

Umucuruzi ucuruza amata ari gusukira umuntu amata mu ijage, angana n'ayo yamusabye, ndetse yamwishyuye akaba agenda apimira abantu amata agiye atandukanye btewe n'ayo bfuza.

Ahantu bacururiza amata ndetse bakagira n'ibyo kuyafatisha birimo capati, abantu baba bishimiye kujya kuhafatira amafunguro kubera ko bajyayo bagataha bishimye, kandi bumva ko hari ikintu kizima bariye.

Ahantu bacuruza amata hakaba hari umumama wambaye ishati y'umweru akaba afite akajerekani ari gusukamo amata bakagira n'imashini ibafasha gutuma amata akomeza kumera neza kandi yujuje ubuziranenge.

Abana babiri bari kunkwa amata ndetse bari kuyarisha umutsima mwiza cyane ukozwe mwifarini bishimiye ayo mata bari kunkwa kubera ko aryoshye, ndetse numucuruzi ari kubabwira ukuntu ayo mata ari ayinka zumwimerere.

Ahantu bacuruza amata y'inka, bakagira n'ibyo kunywa bigiye bindi bitandukanye, harimo imitobe, amazi, ndetse n'ibindi. Ushobora kubagana mu gihe cyose wifuza kugira icyo unywa.

capati nziza cyane ziryoha ziba zikozwe mu ifarini bakazishyira ku ipanu basizeho utuvuta dukeya hanyuma bagashyiraho cya kintu bakoze mu ifarini kiavamo capati ziryoshye kandi nk'izi ngizi.

Amandazi meza cyane kandi aryoha akunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda, akaba akozwe mu ifarini ndetse bayashyira mu mavuta kugira ngo ashye neza ku buryo aza kuza aryoshye.

Agatebo karimo amagi atatu ndetse n'akantu k'agacupa karimo kirida; aho umukiriya aza akihitiramo igi ashaka; ndetse yasoza akaba yafata n'agakirida mu gihe hagize ibimufata mu menyo, akikuramo.

Indobo ebyiri, imwe irimo amandazi iy'indi irimo imitsima myiza cyane ikorwa mu ifarini iryoha, hejuru yayo hakaba hariho akantu kabafasha kuyifata neza ku buryo bayiha umukiraya yizeye ubuziranenge bwayo.

Amata meza y'ikivuguto atunganyijwe yongewemo inkeri ndetse n'isukari ari muri firigo hakaba n'amazi maremare atunganyijwe ndetse n'andi mata ari mu kajerekani ka litiro eshanu.

Umwana na papa we bagiye ahantu bagurisha amata ndetse bari kuyanywana n'ibikozwe mu ifarini. Urabona ko baryohewe cyane kandi ko n'ubutaha bazagaruka bagahabwa iyo serivise nziza.

Ahantu bacururiza amata ndetse hakaba hari amazi, ibyo kunywa bindi bigiye bitandukanye, bakaba bafite n'akabati kariho ibikoresho bita inkongoro, akaba ari ibikoresho byakoreshwaga banyweramo amata.

Aho bacururiza amata bafite icyuma kibafasha gituma ayo mata yabo akomeza kuguma ameze neza bakagira n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye ibyongera imbaraga, ibimara inzara ndetse n'ibyo kurya byiza biryoshye bikozwe mu mafarini.

Ahantu bacururiza amata ndetse bakaba bafite n'icyuma kibafasha kuyatunganya kugira ngo aze kugera ku bantu akimeze neza, bakagira amagi ndetse n'ibyo kunywa bindi biryohera bikunze n'abatari bake, abantu rero baba babagannye kugira ngo baze kubaha ku mata yabo ndetse n'ibindi bicuruzwa bagira.

Ahantu bacururiza ibyo kurya bigiye bitandukanye ndetse n'ibyo kunywa, bakaba bafite amandazi, bakagira capati, bakagira amata meza, amazi ndetse n'amaji akundwa n'abatari bake.

Ibyo kunywa bitandukanye bidasembuye birimo amazi, imitobe iryoshye cyane ndetse n'ibyo kunywa bitera imbaraga aho babagana bakabaha icyo kunywa ukahava wishyuye kandi wishimye.

Abantu bahuje urugwiro, rwose ubona ko bishimiwe n'amata bari kunywa, iki akaba ari ikimenyetso abantu bakunze gukora, bagaragaza ko bishimiye kuba bari kumwe, ndetse bari gusangira icyo kunywa kiryoshye.

Bacuruza amata meza cyane y'inyange, bakagira ama ji meza cyane aryoha kandi bakagira n'amazi bita jibu, ukeneye kimwe muri ibyo urabagana bakabiguha kandi ku giciro cyiza.

Amata meza cyane ari mu ngeri zitandukanye, hakaba hari ari mu tujerekani tunini ndetse n'ari mu makarito, aya mata akaba aryoha cyane ni umwihariko wo mu Rwanda w'inka z'iwacu.

Indobo ipfundikiweho umupfundikizo wayo ikaba irimo imitsima myiza cyane ikozwe mu ifarini n'isukari iyo mitsima ikaba iryoha cyane ikundwa nabataribake yaba abantu bakuru cyangwa abana.

Ahantu bacuruza amata, hari umukobwa wambaye agapira kumweru n'ikabutura, ndetse n'inkweto z'umweru. Akaba arigukorehsa telefone icumetse kumuriro, Inyuma ye hari ikibindi kinini kirimo amata.

Aho bagurira amata ndetse bakahagurira amazi abantu bakunze kunywa, aba asukuye kandi yujuje ubuziranenge, Aba ni bamwe mu bantu bagiye kugura amata, umugabo ari kumwe n'umwana; hanyuma umucuruzi ni umukobwa.

Umwe mu bana uri kunywa ibinyobwa bakunda cyane bikozwe mu mata, ndetse byongewemo amasukari bifasha abana guhorana itoto, ibi rero abana barabikunda cyane kubera ko biryohera.

Akabati karimo udusorori dutatu ndetse n'imineke, aho utwo dusorori turimo imbuto zikatakase zigiye zitandukanye. Harimo pome, umwembe ndetse n'ipapayi na wota meroni.

Ahantu bacururiza amata ndetse bakaba bafite n'ibindi binyobwa bidasembyuye bakagira n'imashini ibafasha kubika amata yabo neza kuburyo atangirika, kandi bakaba bafite na Gaze ku biciro byiza cyane.

Icyuma gifasha amata gukomeza afite umwimerere wayo bashyiramo amata kugirango akomeze akonje, ndetse agumane bwa buziranenge bwayo k'uburyo abaza kuyafata bayafata akimeze neza.

Ahantu bacuruza amata ndetse bakaba bafite n'ibyo kunywa bindi bitandukanye, hsri umumama waje kugura amata bayamusukiye mu gikombe, yishimiye cyane ko agiye kunywa amata.

Amata y'ikivuguto atunganyijwe ya Mukamira araryoha cyane kubera ko aba yongerewemo inyeri, akaba akundwa cyanye n'abana kubera ukuna aba aryoshye ndetse n'abantu bakuru nabo barayirahira barayakunda cyane.

Abantu bizihiwe no kunywa amata meza yo ku Rwanda aryoha cyane, kandi akaba atuma abantu bakomeza kugira imbaraga, iyo uyanyweye wumva wishimiye, ku buryo n'ubutaha usubirayo utagononwa.

Ahantu bacuruza amata ndetse bakagira n'ibyo kurya byiza, harimo; amakeke, amandazi capati, ndetse n'amagi. Bagira n'amata meza cyane, aryoha, y'inka z'iwacu i Rwanda.

Ahantu bacuruza amata bafite ibyo kunywa bigiye bitandukanye amazi, amata afunze mu makarito ndetse nayo mutujerekani bakanagira n'imashini itunganya amata agakomeza gukonja kandi akagumana umwimerere wayo.

Imashini yifashishwa mu kubika amata neza, akaba amaramo igihe kitari gitoya akonje kandi akimeze neza. Bari gusukamo amata kugira ngo kiyakonjeshe kandi aze kuguma ameze neza igihe kirekire.

Umumama ucuruza amata, impande ye turabona hari amateremusi, akomeza gutuma ibintu bishyuha, ku buryo aza guha abakiriya ibintu bigishyushye bimeze neza, bakishimira ibyo bicuruzwa bye.

Ahantu bacuruza ibyo kunywa bigiye bitandukanye amata, amazi, imitobe iryohereye ndetse bakaba bafite n'ibyo kurya bitandukanye nk'amandazi, imyumbati kandi bakaba bafite n'imashini ibafasha gutunganya amata yabo.

Keke nziza cyane zikozwe mu ifarini ndetse ziba zifite n'udupapuro inyuma, ziba zirimo n'agasukari gakeya, zikunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda, aho cyane cyane zikunzwe n'abana ndetse n'abasore.

Amandazi ari mu ndobo ndetse hakaba hari n'indi ndobo iriho akantu bafatisha ayo mandazi, iyo bagiye kuyaha umuntu, kugira hirindwe kuba bayakoraho n'intoki akaba yakwandura cyangwa agatakaza umwimerere wayo.

Amacupa maremare manini y'amazi yo kunywa akorwa n'uruganda rwitwa Nile, akaba aryoha cyane kandi aba atunganyijwe neza ku buryo uwayanyweye atagira ikibazo na kimwe icyo iri cyo cyose cy'ubuzima.

Amagi akunzwe nabatari bake akunda kwifashishwa ku mafunguro ya mu gitondo akaba akorwamo ibyo bita umureti uryoha cyane bikaba akarusho iyo bawufashe mu gitondo.

Ahantu bacuruza amata bafite akabati karimo amajerekani, amandazi, amagi, amazi n'ibindi biribwa bitandukanye bakagira n'imashini itunganya amata agakomeza kumera neza afite umwimerere.

Ahantu bacuruza amata, hakaba hari umuntu waje kugura, afite akajerekani, hanze hari igare, mu nzu hakaba harimo imashini ibafasha gutunganya amata kugira akomeza akonje kandi yujuje ubuziranenge.

Imashini ifasha amata kuguma ameze neza ku buryo abaje bayashaka bayabona agifite wa mwimerere wayo nk'uko yavuye ku nka ameza, ibi rero byishimirwa n'abantu batari bake.

bacuruza ibyo kunkwa ibyo kurya bigiye bitandukanye bagaha serivise abaje babagana bakabaha ibyo kunkwa bishyushye cyangwa bikonje kuburyo umuntu agenda anyuzwe kandi yishimye ntakibazo na kimwe agifite.

Umukobwa ucuruza amata, bari kumwishyura butewe na serivize yabahaye, akaba agira ibyo kunywa bigiye bitandukanye bidasembuye, harimo imitobe iryohereye, ibyo kunywa bitera imbaraga, ndetse n'icyayi cyiza cy'u Rwanda.

Icyapa kigaragaza ahantu bacuruza amazi, amata ndetse n'imitobe igiye itandukanye iryoha cyane, ushobora rero kubagana wifuza zimwe muri serivisi zabo bakagufasha, bakabikugezaho kandi kuri makeya.

Aho bacururiza amata, bafite intebe abaje babagana bashaka serivisi zabo bahabwa, nanone bakagira imashini ibafasha gutunganya amata yabo ku buryo agumana umwimerere, abantu bakaza kuyanywa ameze neza.

Ahantu bacuruza amata bakaba bafite imashini ifasha amata kuguma ameze neza, kandi akonje aho umuntu aza kuyagura akimeze neza agifite umwimerere wayo; ku buryo ayanywa akamugirira akamaro.

Isambusa nziza cyane zikozwe mu ifarini ndetse n'inyama, zikunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho uyiriye ntaho aba ataniye n'uwariye inyama zisanzwe, kubera uburyohe bwazo.

Amandazi meza cyane aryoha akaba akozwemu ifarini, ndetse bakayanyuza mu mavuta kugirango amere neza, akaba akunzwe n'abatari bake mu Rwanda; cyane cyane abantu bakuru, abana, ndetse n'abamama.

Umugabo uri ahantu bacuruza amata, hakaba hari ibyo kurya bigiye bitandukanye ndetse n'ibyo kunywa, kandi bafite n'imashini ibafasha gutunganya amata yabo akaguma ameze neza kandi anakonje cyane.

Ahantu bacuruza amata, bagacuruza amazi yo kunywa ndetse n'imitobe iryohera, bakaba bafite n'imashini ibafasha gutunganya amata yabo ari menshi kuburyo aguma akonje kandi akaguma afite wa mwimerere wayo.

Imashini nziza kandi nini zifasha amata kuguma ameze neza igihe kirekire, aho bayashyiramo akaguma akonje ndetse afite wa mwimerere wayo kuburyo aza kugera kubayakeneye akimeze neza.

Ahantu bacururiza amata meza kandi aryoshye, bakaba bagira amata akonje ndetse n'ahashyushye bakagira n'imashini ibafasha gutunganya amata yabo ku buryo agumana umwimerere nk'uko yavuye ku nka ameze.

Amasambusa meza cyane kandi aryoha akenshi aba akozwe mu nyama, ibirayi ndetse n'amashaza. Aya ngaya rero akaba akozwe mu nyama gusa ntabwo barayashyira mu mavuta kugira ngo ashye ahindure ibara abantu babe babasha kuyarya.

Ahantu bacuruza amata, amazi, ndetse bagacuruza n'amandazi. Iyo ukeneye serivisi uri nko ku rugendo ushonje, urabagana bakaguha icyo kunywa ukahava umeze neza cyane, nawe ukishyura amafaranga agendanye n'ibyo wafashe.

Ibibindi bikozwe mu cyuma byifashishwa mu kubika amata igihe kirekire, ku buryo agezwa ku bantu atangiritse agifite umwimerere wayo; ibingibi babikoresha bashaka nko kujyana amata ahantu hagiye hatandukanye.

Abagabo babiri bafashe ibibindi binini ariko bikozwe mu cyuma cyifashishwa mu kubika amata, bakaba rero bari gusuka amata muri cya cyuma kinini, gifasha amata gukomeza ameze neza kandi anakonje.

Amadomoro babikamo amata bayogeje bayashyira ahantu heza kandi hafite isuku kugira ngo ntibaza kuyashyiramo amata ataza kugira ikibazo, ndetse n'abaje babagana babahe amata asukuye.

Ahantu bagurira amata ndetse hakaba hari n'icyuma kibafasha gutuma ayo mata yabo akomeza kumera neza, hakaba hari n'ikindi kibafasha gutuma ayo mata yabo akomeza gukonja ndetse bakaba bafite nibyo kurya bigiye bitandukanye.

Umucuruzi uri guha serivise uwaje amugana, aho bafite amata bakagira ibyo kunywa bindi biryohera; rero ari kumuha serivise nziza nk'umuntu waje amugana.

Ahantu bacuruza amata, kuruhande rwaho bakaba bacuruza ibindi binyobwa bitandukanye birimo ibisindisha n'ibidasindisha hamwe n'amazi, hanze hari ntebe abantu bicaraho bari kunywa kuri ibyo binyobwa.

Amasambusa meza cyane kandi aryoha aba akoze munyama ndetse n'ifarini, aryohera abatari bake hakaba habaho akozwe mubirayi amashyaza ndetse n'umuceri, ariko hakaba hakunzwe cyane akozwe munyama.

Umucuruzi w'amata ari gusuka amata mu kajerekani, yifashishije ikintu gituma abasha kuyasuka neza ari menshi akajya mu kajerekani; ni bumwe mu buryo bukunze gukoreshwa n'abantu bagurisha amata.

Ahantu bacuruza amata ndetse bakaba bafite n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye, birimo: amazi, imitobe iryoshye; ndetse bakaba bafite n'ibiribwa ushobora kwifashisha mu gihe uri kunywa ibyo binyobwa, hakubiyemo: amandazi, capati, ndetse n'imikati.

Ahantu bacuruza amata bakagira amandazi meza cyane, capati, amagi ndetse n'imineke ku buryo uwabagannye aba ameze neza nta kibazo k'inzara na kimwe ataka.

Icyuma gikonjesha amata ndetse kiyafasha kuguma ameze neza, ku buryo ababagana baza kubona amata meza, acyeye kandi akonje agifite wa mwimerere wayo.

Utujerekani dushobora kuba baba bashyiramo amata twanditseho amazina y'abantu agiye atandukanye kugirango buri wese ataza kubura akajerekani ke cyangwa kugira buri wese ahabwe amata ahuje nuko yagiye abisaba.

Amasambusa meza cyane akozwe mu nyama, hakaba habaho n'andi akozwe mu birarayi, aya ngaya umwihariko wayo ni uko aba aryoshye atandukanye n'andi yose ameze nkayo.

Amata y'ikivuguto meza atunganyijwe, avanzemo n'inyeri, akaba aryoha cyane abana bayakunda kubera ukuntu aryoha nk'inyenyeri ndetse n'abantu bakuru na bo barayishimira.

Umuntu ufashe umutsima ukorwa mu ifarini, akaba awufatishije urupapuro rw'isuku. Ari kuwurya gake gake yumva uburyohe bwawo, kubera ko uba uryoshye urimo agasukari, ndetse ukoranywe ubuhanga bwihariye.

Amandazi meza cyane aryoshye akozwe mu ifarini, amata ndetse n'isukari; aho bayanyuza mu mavuta kugira akomere. Aryohera benshi cyane hakubiyemo abantu bakuru ndetse n'abana, kubera ko aba aryoshye.

Aho bicara bari kunywa amata meza cyane kandi aryoshye. Ushobora rero kubagana mu gihe wenda wari uri nko ku rugendo ukagira icyaka, ukicara bakagufasha, bakaguha amata.

Ahantu bacuruza amata meza, ateguwe neza, ashobora guhita anyobwa ako kanya utarinze kujya kuyateka, kandi rwose akaba yujuje ubuziranenge. Iyo ukeneye amata rero urabagana bakayaguha.

Umutobe mwiza cyane uryoha, ukozwe mu matunda, uri mu ikarito yawo, aho ubu upima litiro imwe yose, uyu mutobe rero ukaba ukungahaye cyane ku ntungamubiri ya se.

Ahantu bacuruza amata abantu baba babagannye kugira ngo babahe amata meza kandi aryoshye, urabona ko baba baryohewe cyane, hari abagabo babiri hirya bari kuyanywa n'abandi babiri bari kuyanywa hino, ubona ko yitabirwa n'abatari bake.

Aho bacururiza amata, amajerekani bacururizamo amazi, ndetse hari n'igikoresho kibafasha gutuma amata ya bo ahorana ubuziranenge, agahora akonje kuburyo atangirika, ababagana bakaza kuyabona ameze neza.

Igikombe kirimo amata ndetse ku ruhande hakaba hari n'ikindi aho biri ku meza hakaba hari n'akajerekani ayo mata ashobora kuba yavuyemo. Bishobora kuba biri kunywebwa n'abantu babiri batandukanye.

Umucuruzi ufite ibyokunkwa bitandukanye birimo imitobe , amata akagira n'ibyokurya birimo amasambusa akozwe munyama ndetse n'ibisuguti biryoha cyane, akaba ari gufasha abaje bamugana kubaha ubufasha bakeneye.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga, gifasha abantu gukonjesha cyangwa bagashyiramo ibiribwa kugira bitaza kwangirika, Aha rero ni ahantu bacuruza amata bakaba bayifashisha bashyiramo amata kugira ngo atangirika.

Amagi meza kandi yujuje ubuziranenge akunzwe ntabatari bake aho abantu bakunda kuyakoramo amafunguro ya mu gitondo bakaba bayifashisha barya nk'umugati ndetse nibyo kurya bindi bigiye bitandukanye.

Ahantu bacururiza amata ndetse n'ibyo kurya bigiye bitandukanye birimo, makeke, amandazi ndetse n'amacapati akaba ari gupimira umuntu waje amugana amata ahuje n'ayo yifuza.

Igikombe kinini kirimo amata meza yujuje ubuziranenge, aho uwanyweye, amufasha kugarura ubuyanja mu mubiri, ndetse akamufasha gukomeza gutekereza neza kubera ko aba yanyweye ibyubaka ububiri.

Bacururiza amata bakagira n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye, aho bafite amata y'ikivuguto atunganyijwe neza yongerewemo ibindi bintu, bikubiyemo inkeri, amasukari ndeste n'ibindi. Iyo ubagannye uhava uhakuye ikintu cyo kunywa kandi cyiza.

Nishimiye amata meza y'inka zo mu Rwanda, aryoshye cyane aho wayanyweye yirirwa umunsi wose afite akanyamuneza ndetse afite n'itoto k'umubiri we nk'umuntu rwoswe unywa amata.

Imashini yifashishwa mu gukonjesha, ibintu bigiye bitandukanye hano bakaba bashyiramo amata kugira ugume ameze neza, ku buryo baza bashaka amata basanga agifite wa mwimerere wayo.

Ahantu bacuruza imitobe iryoha cyane, bagacuruza amazi ndetse bagacuruza amandazi. Hari n'amagi, ndetse hakaba n'icyuma kibafasha gukonjesha amata yabo, ku buryo agumana wa mwimerere wayo.

Icyapa kigaragaza ibyo batanga cyangwa bafite. Bafite imitobe myiza cyane iryoshye, bakagira amazi ndetse bakagira n' ibyo abana bakunda bita yahurute bikunzwe n' abana cyane.

Umuntu ufashe capati mu ntoki ari kuyirya yamuryoheye ni icyo kurya kiryoha cyane gikozwe mu ifarini bikaba akarusho iyo umuntu ari kukinywesha amata kubera ko biryohera ababikunda kubikoresha.

Akabati karimo uducupa tw'amazi yo kunywa atunganyijwe neza, hakaba hari na amverope imwe nini n'akandi gatoya hashobora kuba harimo ibintu bigiye bitandukanye by'bicuruzwa na bo bagurisha.

Icyapa cy'ahantu bacuruza amata meza kandi y' Inyanza, ukeneye ubufasha bwabo wabahamagara kuri ziriya nimero batanze bakagufasha bakaba bakugezaho amata meza kandi aryoshye bakayakugezaho ku gihe.

Imigati myiza cyane kandi iryoha, ikunzwe n'abantu benshi cyane, aho ikozwe mu ifarini, ndetse abantu bakunda kuyifashisha ku mafunguro yabo ya mu gitondo, bakayirya, bikabafasha gutuma umunsi wirirwa umeze neza.

Abakozi bakorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ni batatu, hakaba hari uri gukorera umuntu waje amugana amuha serivise wenda yo kubikuza cyangwa se kubitsa cyangwa kohereza amafaranga ahandi hantu hatandukanye.

Ifoto iriho uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga, hakaba hariho nimero y'umucuruzi ndetse n'izina ry'umucuruzi, aho wishyura nta mafaranga ukaswe cyangwa wishyujwe.

Ishami rya sosiyete y'itumanaho mu Rwanda, ryegerejwe abaturage, aho ushobora kujya ukabasobanurira ikibazo ufite, wenda kijyanye no kubitsa no kubikuza cyangwa kubona uburyo bwo guhamagara bakagufasha.

Abakozi bemewe ba sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, bari guha serivisi uwaje abagana aho batanga serivise zitandukanye zirimo gufungura umubare w'ibanga, konte yo kwizigamiraho ndetse no kohereza amafaranga.

Umugabo uhagaze imbere y'icyapa kinini gishushanyijeho imodoka ndetse n'umuntu wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, akaba ahagaze umbere ya moto y'umugondo na we yambaye umupira w'umuhondo.

Umukozi wa sosiyete z'itumanaho mu Rwanda, yishimiye kubagezaho serivise nziza mukeneye izo ari zo zose, kandu abikoranye akanyamuneza kenshi cyane, kubera ko yishimiye kuba akorera icyo kigo.

Ikarita y'uburyo ushobora kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga aho nta kindi kintu ukatwa kindi ahubwo amafaranga y'icyo kintu wakoresheje ukaba ariyo wohereza gusa, ubu buryo rero burakunzwe cyane kubera ko bworohereza abaguzi.

Ikarita iba iriho amazina ndetse na nimero wakwifashisha wisyhura umucuruzi bitakugoye, aho ushyiramo iriya nimero ukemezamo umubare w'amafaranga, hanyuma ukishyura batagukase ikintu na kimwe.

Umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, ari guha serivise abaje bamugana harimo n'abanyeshuri. Aho abafasha kubitsa, bakabikuza ndetse bakohereza amafaranga abagize imiryango yabo n'inshuti zabo.

Umucuruzi ukorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda akaba ari mu kazu kiwe akoreramo akazi ndetse iyo abaje bamugana akabaha serivise zitandukanye zirimo kubabikuriza cyangwa bakaba babitsa amafaranga yabo.

Abakobwa babiri bakorera ikigo kimwe cy'itumanaho mu Rwanda bari kumwenyura cyane bagaragaza ko bishimiye kubaha serivise nziza mubasaba kandi ko bazahora bazibaha.

Abaturage bizihiwe cyane n'imiziki myiza iri gucurangwa, ndetse inyuma hakaba hari umuntu ufite mikorofone ashobora kuba ari umusangiza w'amagambo; ariwe uri gususurutsa abitabiriye aho ngaho.

Umuguzi ugiye kwishyura serivisi yahawe, abinyujije ku nimero batanga, hanyuma ukishyura batagukase ndetse ntan'anamande bakwatse, ukishyura serivisi wahaywe gusa kuri nimero y'umucuruzi.

Uburyo bwo kwishyura bwiza kandi bwizewe aho haba hariho izina ryumucuruzi na nimero akoresha umwishyuriraho, kuburyo umwishyura ntihagire ikintu nakimwe ukatwa ahubwo ukishyura amafaranga yibyo waguze gusa.

Abantu bahagaze imbere y'akazu k'umutuku k'umukozi ukorera ikigo gishinzwe iby'itumanaho, baje kumugana bamusaba serivisi zigiye zitandukanye zirimo: kubitsa, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga.

Bumwe mu buryo bwiza kandi bwizewe abantu batari bake bakunda gukoresha bishyura amafaranga kuri nimero z'abacuruzi bakishyura nta kindi kiguzi batswe bishyuye amafaranga gusa bakoresheje.

Umukozi wa sosiyete y'itumanaho mu Rwanda afite agakarita kariho nimero y'umucuruzi wakoresha umwishyura akaba ashishikariza abantu gukoresha ubwo buryo kubera ko bwizewe kandi bukaba butekanye bukaba bunoroshye.

Sosiyete y'itumanaho ikomeye mu Rwanda aho yagiye kwamamaza ibicuruzwa byayo, hanyuma bakaba bariguha abaturage poromosiyo bakagura ibintu kuri make badahenzwe mu rwego rwo gukurura abakiriya.

Umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho, yambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'ubururu irimo amabara k'umuhondo, ari guha serivisi uwaje amugana, aho ari kumufasha kwishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Sosiyete y'itumanaho mu Rwanda, itanga serivisi nziza zifasha Abanyarwanda kubikuza, bakabitsa amafaranga yabo. Babazaniye n'indi serivisi, aho babazaniye interineti inyaruka nk'umurabyo, aho waba uri hose.

Umukozi w'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, yafashije uwaje kugura kubona uburyo bwizewe kandi bwihuse bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga, aho ntayandi mafaranga ukatwa usibye ayo waguze ibintu.

Uburyo bwiza bugezweho kandi bwizewe bwo kwishyura amafaranga, aho haba hariho nimero y'umucuruzi, wowe ugashyiraho amafaranga ndetse ukishyura nta kindi kiguzwi watswe, ahubwo ukishyura ibyo wakoresheje gusa.

Umucuruzi ukorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ari guhaha serivisi abaje bamugana zikubiyemo kubitsa, kubikuza ndetse bakaba babasha no kohereza amafaranga abagize imiryango yabo cyangwa inshuti zabo.

Agakarita kariho izina ry'umucuruzi ndetse na nimero yiwe yo kwishyura, aho uyishyira muri telefoni ukishyura batagukase, ndetse nta yandi mafaranga yiyongereyeho yo kohereza cyangwa ya serivisi.

Umuturage w'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, uba uri guha abantu serivisi zitandukanye, abaje kubikuza ndetse n'abari kubitsa, abashaka kwishyura izindi serivisi zitandukanye ku ikoranabuhanga nabo akabafasha.

Umukozi w'isosiyete ushinzwe iby'itumanaho mu Rwanda, ari mu kazu ke aho akorera imirimo yiwe ya buri munsi, irimo gutanga serivise ku baje bamugana, zijyanye no kubitsa cyangwa kubikuza.

Umucuruzi w'isosiyete imwe muzikomeye mu Rwanda y'itumanaho, ari gufasha umunyamahanga waje amugana kuri serivise zijyanye no kubitsa, kubikuza cyangwa akaba yakohereza undi muntu amafaranaga.

Umugabo wambaye ikote uhagaze imbere y'akazu k'umuhondo aho harimo abakozi bakorera isosiyete y'itumanaho, bari kumuha serivise zitandukanye zijyanye no kubitsa, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga.

Sosiyete ya itumanaho mu Rwanda, ishami ryayo aho ubasha kubagana bakaba baguha serivise zigiye zitandukanye, nko kuguha simukadi nshyashya, ukaba wabitsa amafaranga ndetse ukayabikuza.

Umucuruzi wa sosiye y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, ari gufasha uwaje amugana ashobora kuba ari kubikuza amafaranga, yamubikuririje ndetse ari kumuha ayo mafaranga yiwe yabikuje, agasigara yandika ibyo yakoze.

Abaturage batandukanye bagannye umwe mu bakozi bakorera ikigo gishinzwe iby'itumanaho mu Rwanda, bagiye gusaba serivisi zitandukanye zirimo kubikuza, kubitsa cyangwa kohereza abagize imiryango yabo n'inshuti zabo amafaranga.

Ikarita igaragaza uburyo bwo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga, aho haba hariho izina rya kampani na nimero umucuruzi akoresha umwishyurira, wishyuraho muri terefone yawe, ugashyiramo amafaranga, hanyuma ugahita wishyura ntakindi bagukase.

Umucuruzi ukorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda yitwa MTN, ari guha serivise abaje bamugana, zikubiyemo kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga ndetse akabasobanurira n'ubundi buryo bwo kwizigama bakoresheje telefone zabo.

Abakozi b'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, bafashe ifoto bari kumwe, bagaragaza akamwenyu ku maso, bigaragara ko bishimiye serivise baha abaturarwanda, zijanye n'itumanaho.

Isosiyete y'itumanaho yegereye abaturage, aho bari kubaha serivise zigiye zitandukanye zijyanye n'ikoranabuhanga, bakabaha n'ibindi bihembo biromo imipira yo kwambara, ingofero, ndetse n'amayinite yo guhamagara.

Umuturage yagiye gusaba serivise sosiyete y'itumanaho mu Rwanda, aho ashobora kuba yagiye kubasaba serivise zo kubitsa, kubikuza, gufungura umubare w'ibanga cyangwa konte yo kwizigamiraho.

Abaturage batandukanye bagiye gusaba serivise abakozi bakorera ibigo bishinzwe itumanaho m'urwanda, kugirango babahe serivise zitandukanye harimo kubona amafaranga kuyabitsa cyangwa kuba bayohereza.

Akazi gakoreramo umukozi wemewe wa sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, aho Ari guha serivisi uwaje amugana ajyanye no kubitsa, kubikuza, guhindurwa umubare w'ibanga cyangwa ikindi kibazo yaba afite.

Umukozi ukorera isosiyete ishinzwe itumanaho mu Rwanda ya MTN, ari mu kazu akoreramo aho aba ari guha serivisi abamugana, zijyanye no kubitsa, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga.

Agakarita kariho uburyo bwifashishwa mukwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga aho umuguzi yishyura akoresheje ino nimero y'umucuruzi hanyuma agashyiraho amafaranga, akagenda ntakindi kiguzi yatswe.

Umucuruzi ukorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda, anejejwe cyane no kuba afasha abantu kubona uburyo bwo kubikuza amafaranga yabo, kuyabitsa cyangwa bakayoherereza abagize imiryango ndetse n'inshuti.

Umukozi ukorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda yitwa emutiyene, afite imeza iriho ingofero, imipira, uducupa tw'amazi, aho baba baje kwegereza serivise abaturage bakabasha gutombora.

Abakozi b'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda begereye abaturage bari kubaha serivise zitandukanye. Izijyanye no gufunguza umubare w'ibanga, kubitsa, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga.

Abaturage baganye sosiyete y'itumanaho mu Rwanda bashaka serivise ndetse bari kuzihabwa ku buryo bari kugenda bishimye uyu nawe yagiye gusaba serivise kandi rwose arayihabwa agende yishimye.

Umukozi w'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN ari gufasha uwaje amugana kumuha serivisi zigiye zitandukanye, nko kuba yabitse amafaranga ye cyangwa akayabikuza, akaba yanayohererereza undi muntu.

Umukozi ukorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda arigusobanurira umudamu uburyo wakoresha wohereza amafaranga cyangwa ukishyura ukoresheje uburyo bwiza bugezweho aho wishyura batagukase.

Abakozi b'amasosiyete abiri y'itumanaho mu Rwanda akomeye, aho bari mu kazi kabo ko kugeza ubufasha ku baje babagana mu mazu yabo. Rero aya ngaya abafasha kutanyagirwa cyangwa ngo bicwe n'izuba.

Abakozi bakorera isosiyete y'itumanaho murwanda, baba begereje serivise abaturage aho baba barikubasobanurira ibyo bakora ndetse bakabafasha no kubona ibihembo binyuze mu matombora agiye atandukanye, abaturage baba babyishimiye cyane.

Umukozi ukorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda yicaye munsi y'umutaka ari guha serivisi uwaje amugana ashobora kuba agiye kumubikuriza amafaranga cyangwa akaba ari kuyabitsa kuri telefone ye.

Uburyo bwiza kandi bwizewe bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho ukanda ino imibare hanyuma ugashyiramo iriya nimero, ugashyiramo igiciro cy'amafaranga mwavuganye ukishyura batagukase.

Umucuruzi w'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, ari guha abaje bamugana serivisi zinyuranye, zirimo kubitsa, bakabikuza ndetse bakaba babasha no koherereza amafaranga abandi bantu.

Ubu ni uburyo bugiye butandukanye, bukoreshwa na sosiyete y'itumanaho mu Rwanda, aho umuntu akaraga, akagenda atombora ibitu bitandukanye, harimo; amainite y'igihumbi, ingofero, imipira yo kwambara, ndetse n'ibindi.

Akazu k'umwe mu bantu bakorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda aho ari gufasha abaturage kubona amafaranga binyuze kuri telefone zabo cyangwa kubona uburyo bwo guhamagara.

Umumama uri gutambuka uvuye guhaha ndetse akaba anyuze ku isosiyete y'itumanaho mu Rwanda; aho bari gufasha abaturage babasobanurira, ndetse babaha n'amatombora agiye atandukanye.

Abakozi b'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda bari ku ishami ryaho, aho bakorera imirimo igiye itandukanye irimo gufasha abaje babagane uko bafunguza imibare y'ibanga, kubitsa cyangwa kubukuza.

Ikarita iriho uburyo bwo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga, aho haba hariho amazina ya kampani na nimero wifashisha wishyura, ukayishyira muri terefoni, ugashyiramo umubare w'amafaranga hanyuma ukaba wakwishyura bitakugoye.

Nta jwi ririmo

Akazu k'umucuruzi ukorera sosiyete ishinzwe iby'itumanaho mu Rwanda, karakinze hanze hari umuntu uri kuvugira kuri telefone, ashobora kuba ari kumuhamagara kugira ngo aze amuhe serivise yifuza.

Umukozi ukorera sosiyete y'itumanaho ari gufasha umuntu wambaye ishati y'umweru amuha serivise zigiye zitandukanye zikubiyemo kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga cyangwa kuyakira.

Umukozi wa sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ari guha serivise abantu bagiye batandukanye, aho bagiye bafite ibabazo bigiye bitandukanye mu bijyanye no kubitsa, kubikuza ndetse no kuba bakohereza amafaranga.

Ishami ry'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda kiba cyegereye abaturage, aho kiba cyabazaniye na bwa buryo bwo gutombora hifashishijwe ikintu bakaraga, bagakaraga uba ushobora gutsindira umupira, telefone, amayinite yo guhamagara ndetse n'ibindi.

Akazu k'umucuruzi wemewe w'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda, iyo karimo abari guha serivisi abaturage zijyanye no kubitsa, bakabikuza ndetse bakaba babasha no kwishyura izindi serivisi bakoresheje telefone zabo.

Umucuruzi wa sosiyete y'itumanaho mu Rwanda, ari gufasha abaje bamugana kubaha serivise zitandukanye, harimo kubitsa, kubikuza, ndetse hari n'abifuza koherereza amafaranga abagize imiryango yabo cyangwa inshuti zabo nabyo arabibafashamo.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe itumanaho ari mu nzu y'ibyuma y'umuhondo, aho ari guha serivisi uwaje amugana zitandukanye, zikubiyemo kubitsa, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga.

Akazu gakoreramo serivise zigiye zitandukanye iz'irembo, ekwiti ndetse n'ayandi mabanki agiye atandukanye aho bafasha abantu kubona serivise zitandukanye z'ikoranabuhanga.

Umukoze w'isosiyete ikomeye y'itumanaho mu Rwanda ari gufasha umumama kwishyura akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bwiza bwizewe kandi butuma abantu badakatwa amafaranga menshi y'umurengera.

Ikarita y'umuhondo iriho amazina y'umucuruzi na nimero bakoresha bamwishyuriraho, aho uyishyira muri telefoni yawe ugakandamo amafaranga ugiye kwishyura ukishyura nta kindi kiguzi na kimwe baguciye.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe itumanaho, ari mu kazu k'umuhondo aho ari guha serivise zigiye zitandukanye abaje bamugana, zikubiyemo: kubitsa, kubikuza ndetse bakaba babasha no kuhereza amafaranga ahandi hantu.

Uburyo bwiza kandi bwizewe bwo kwishyura amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho uguze telefone yishyura adakaswe andi mafaranga ya serivisi ahubwo akishyura amafaranga y'icyo gicuruzwa aguze.

Umuntu ufite telefone y'iwe mu ntoki, ari gukanda mu buryo bwo ku ishyura akoresheje ikoranabuhanga, barabyoroheje kuburyo bisigaye umuntu yishyura atabanje gukatwa amafaranga runaka.

Akazu abakozi bakorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda bakoreramo baha serivise abantu baje babagana zitandukanye izijyanye no kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga ndetse no kubasha kwizigamira.

Akazu k'umuntu ukorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, akaba agakoreramo ari kugeza ku baturarwanda serivisi zitandukanye zikubiyemo kubabikiriza amafaranga cyangwa bakaba bayabikuza.

Agakarita kariho uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga aho haba hariho nimero y'umucuruzi ukayishyira muri telerefone yawe ugashyiramo umubare w'amafaranga ugiye kwishyura ugashyiramo umubare wawe w'ibanga ukishyura batagukase.

Umukozi w'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda yitwa emutiyeni ari guha serivise umukiriya waje amugana, amwereka uburyo ki ashobora kubikuza amafaranga cyangwa akagura paka yo guhamagara.

Akazu k'umucuruzi wemewe w'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda karakinze kubera ko ashobora kuba yagiye mu zindi gahunda ziwe zitandukanye, ariko iyo ahari aha abantu serivise zikubiyemo kubitse kubikuza ndetse no kohereza amafaranga.

Isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, iri gufasha abaje bayigana kubona uburyo bwiza bakoreshamo serivisi zabo zigiye zitandukanye harimo kohereza amafaranga, kubitsa, kubikuza ndetse bakaba banishyura badakaswe.

Akabati k'umukara gafite utuntu tubiri bafataho bakingura, kometseho urupapuro ruriho uburyo bwiza cyane wakoresha ushaka inyongera ya enterinete, aho ukanda gatatu, kane, gatanu, akanyenyeri, urwego, ukemeza.

Umukozi wa sosiyete ifasha abantu kubagezaho ibyo bakeneye aho bari, ari kumwe n'umukozi wa sosiyete y'itumanaho mu Rwanda aho ashobora kuba yaje kubikuza amafaranga, cyangwa kubutsa cyangwa kuyohereza.

Uburyo bwiza bwo kwishyura amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga, abantu bakunda gukoresha kuko bwizewe kandi butekanye. Bukaba bubafasha kwishyura amafaranga nta kindi kiguzi batanze, ahubwo bakishyura ibyo bahawe gusa.

Ishami rya sosiyete imwe muzikomeye mu Rwanda y'itumanaho, ryegereye abaturage kandi riri kubasobanurira serivise zigiye zitandukanye batanga; urabona ko abaturage bishimiye ubwo bukangurambaga.

Umuturage yagannye isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, aho bari kumufasha kubona simukadi nshyashya cyangwa se kubitsa, akaba yabikuza, akohereza amafaranga ndetse akanabasha kwizigamira akoresheje telefone ye.

Uburyo wakoresha wishyura serivise wahawe udakaswe amafaranga menshi, hanyuma akagera k'umucuruzi waguhaye serivisi, ubu ni uburyo abantu benshi bakunze gukoresha bishyura badahenzwe.

Abakozi ba sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ariyo MTN, bari guha ubufasha abaje babagana muri serivisi zabo zigiye zitandukanye batanga, aho bafasha umuntu kubona uburyo yahamagara.

Umukozi w'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, uri mu kazu k'iwe, aho akorera imirimo yiwe ya buri munsi, ari guha serivisi abaje bamugana, zijyanye no kubitsa, kubikuza cyangwa se kuba bakwakira amafaranga.

Akazu kari ku muhanda gakorerwamo n'abantu bakorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ariyo emutiyeni karakinze ashobora kuba wenda yagiye kuruhuka cyangwa wenda bwije akaba yatashye.

Sosiyete y'itumanaho mu Rwanda, aho yegereye abaturage, iri kubaha amahugurwa agiye atandukanye. Ndetse yanabegereje telefoni zigura makeya, aho ku bihumbi byawe makumyabiri ubasha kwibikaho telefoni igezweho.

Umucuruzi ukorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda, akaba ari gufasha uwaje umugana, akaba ari kumusobanurira ikibazo afite aho yiteguye kumuha ubufasha ubwo aribwo bwose bushoboka.

Akazu k'umucuruzi ukorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda aho aba yaje guha abakiriya serivise bakeneye hakubuyemo kubitsa, kubikuza ndetse no koherereza amafaranga abagize imiryango yabo cyangwa inshuti zabo.

Utuzu tubiri twa sosoyete ebyizi z'itumahano mu Rwanda, hagiye harimo abakozi babo, aho baba bari gufasha abaje babagana kubona serivise batanga, zikubiyemo kubitsa, kubikuza, ndetse no kohereza amafaranga.

Umuturage wagiye gusaba serivisi kimwe mu bigo bikomeye by'itumanaho mu Rwanda, akaba yagannye ishami ritoya ry'abakorera mu makaritsiye mato mato akaba ari kumusobanurira ikibazo afite kugira ngo amufashe.

Ahangaha batanga serivise zo kubitsa no kubikuza cyangwa kohereza amafaranga ahandi, kugura amayinite ndetse n'ibindi. Uyunguyu akaba yahagannye kugira bamuhe zimwe muri izo serivisi batanga zigiye zitandukanye.

Umucuruzi w'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda akaba ari mu nzu yiwe akoreramo ubucuruzi aho ari gufasha abaje bamugana kubaha serivise zitandukanye zijyanye no kubona amafaranga cyangwa bakaba bayabitsa.

Akazu gakoreramo umucuruzi wemewe w'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, aho ari guha serivise abaje bamugana, serivise zikubiyemo kubitsa, kubikuza ndetse akabafasha no kuba bahindura umubare w'ibanga.

Akazu k'umwe mu bakozi bakorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda, iyo akarimo aba ariguha serivisi abaza bamugana hakubiyemo kubitsa, kubikuza cyangwa kuba bakohereza amafaranga abagize imiryango yabo.

Icyapa kigaragaza izina ry'isosiyete ya itumanaho mu Rwanda, aho baba bari gufasha abaturage, bakabasobanurira serivise uko zikora kubijyanye no kubitsa, kubikura cyangwa bakaba bakohereza amafaranga.

Abaturage batandukanye bagannye sosiyete y'itumanaho mu Rwanda aho bagiye gusaba serivise zigiye zitandukanye gufungurizwa konte yo kwizigamiraho, kubitsa, kubikuza cyangwa se abibagiwe n'imibare yabo y'ibanga bakaba babafasha.

Agakarita kariho uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga aho haba hariho kode y'umucuruzi, ukayishyira muri telefone yawe hanyuma ugashyiramo amafaranga, ukemeza n'umubare wawe w'ibanga ntihagire ikindi kintu ukatwa kitari amafaranga wohereje.

Isosiyete y'itumanaho mu Rwanda yitwa eyateri yabazaniye amaterefone meza cyane ku amafaranga make cyane aho kubihumbi bisaga makumyabiri byawe ubasha kuybikaho ukajya uganira n'inshuti n'abavandimwe.

Ikarita iriho uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho hariho nomero ya kampani ndetse n'imibare y'umucuruzi; wishyura muri terefone ukandikaho amafaranga, hanyuma ukemeza n'umubare wawe w'ibanga.

Isosiyete y'itumanaho mu Rwanda yagereje abaturarwanda uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga aho wishyura amafaranga y'ibintu umaze gukoresha ntakindi kiguzi cyangwa amafaranga bagukase.

Umukozi w'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, ari gufasha abaje bamugana muri service zigiye zitandukanye z'ikoranabuhanga aho atanga service zo kubitsa, bakabikuza ndetse bakaba babasha no kohereza amafaranga ahandi hantu.

Abagabo babiri bavuye kuri moto bombi bambaye udupfukamunwa n'abamotari bambaye udupfukamunwa, ubona ko bari kwishyura bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga aho kwishyura mu ntoki, aho bitari byemewe muri kovide cumi n'icyenda.

Ahantu mu nzu bacuruza imiti y'amoko atandukanye, ivura n'idwara zitandukanye. Hari abakozi bakorera isosiyete y'itumanaho, baje gutanga uburyo bwiza bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga, aho wishyura nta kindi kiguzwi watswe.

Agakarita kaba kariho uburyo bwo kwishyura bwiza kandi bwizewe bwifashishwa n'ikoranabuhanga, aho haba hariho amazina y'umucuruzi na nimero akoresha ukayashyira muri telefone yawe, ugashyiramo umubare w'amafaranga hanyuma ukishyura nta kindi kiguzi.

Isoko aho haba harimo abacuruzi batandukanye bafite ibicuruzwa bitandukanye nuburyo bwo kwishyura bwiza kandi bwizewe, Bakaba bafite karoti, intoryi, ifu nziza y'igikoma, iyo gutekamo ubugari ndetse nibindi byinshi.

Umukozi ukorera sosiyete y'itumanaho mu rwanda ya MTN, ari gufasha umuntu waje amugana kumuha serivisi zitandukanye zikubiyemo kubitsa, kubikuza cyangwa se kohereza amafaranga abandi bantu.

Umucuruzi w'isosiyete ya Emutiyeni mu Rwanda, ari gufasha umuntu waje abagana kubona uburyo bwiza cyane bwo kwishyura yifashishije ikoranabuhanga, aho atari buhendwe n'ibiciro by'ayo bari bumukate yishyura.

Akazu k'umuntu ukorera ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda, aho afitemo ibindi bintu acuruza ndetse akaba anaha serivisi abaje bamugana zijyanye no kubitsa, kubikuza ndetse no kohereza amafaranga.

Umukozi w'isosiyete y'itumanaho ya emutiyeni ari gufasha uwaje amugana kumuha serivise yifuza kandi urabona ko umukiriya yishimiye serivise ari guhabwa n'ubwo itararangira.

Umuhanzikazi akaba ari n'abagezweho muri iyi minsi witwa Bwiza, akaba ari gutaramira abantu, baje kwitabira gitaramo cya sosiyete ikomeye y'itumanaho mu Rwanda, aho ari kubafasha gususuruka.

Umukozi wa sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ari gufasha uwaje amugana muri serivisi zigiye zitandukanye hakubiyemo kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga cyangwa akaba yabona uburyo bwo guhamagara abandi.

Umucuruzi w'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda yitwa MTN, ari guha abaje bamugana serivisi zigiye zitandukanye, ahori kubafasha kuba babikuza, bakabitsa ndetse bakabasha kohereza n'amafaranga.

Isosiyete ishinzwe iby'itumanaho mu Rwanda, iri guha abaturage serivisi bakeneye zikubiyemo guhindura umubare wibanga: kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga ndetse bakanakira.

Abakozi bisosiyete y'itumanaho mu Rwanda bishimira kuba bafasha abaturage bakabaha serivise nziza bo badashobora kwikorera zikubiyemo kubitsa, kubikuza ndetse bakaba babafasha no kumenye uburyo bahindura umubare w'ibanga.

Umuntu ari kugana umukozi ukorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda, kugira amugezeho serivisi batanga zimwe muri zo ni ukuguha ibyo bita ubushobozi bwo kubasha guhamagara undi muntu ukoresheje telefone yawe.

Umucuruzi w'isosiyete ikomeye mu Rwanda y'itumanaho ari guha serivise abaje bamugana aho atanga serivise zijyanye no kubikuza, kubitsa ndetse no kohereza amafaranga.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo wambaye isaha, akaba afite terefone mu ntoki ari kuvugana n'undi wambaye umupira w'umukara ufashe igare mu ntoki, igare bagendaho cyangwa rigatwara n'imizigo

Umukozi wa sosiyete y'itumanaho mu Rwanda anejejwe no guha serivise uwaje amugana aho ari kumufasha kuba yabikuza, kubitsa cyangwa koherereza amafaranga abagize umuryango we, inshuti ze ndetse n'abandi.

Umuntu ugiye kwishyura amafaranga akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kwishyura, akaba ari gusabwa gushyiramo amafaranga, akemeza, hanyuma akagera kumucuruzi wamuhaye serivise nziza.

Abacuruzi b'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, bari gufasha abaturage kubona uburyo bwiza cyane bwo kwishyura hakoreshejwe nimero y'umucuruzi, aho wishyura batagukase amafaranga n'amwe ya serivisi baguhaye.

Umuturage yagannye sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ari kubasobanurira ikibazo afite, ashobora kuba yaribagiwe umubare w'ibanga akaba ari kubasaba kuwumugarurira cyangwa se yagiye kugura simukadi nshyashya ya emutiyeni.

Isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, iri gufasha abaturage baba bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ababuze imibare yabo y'ibanga, abashaka kubitsa, kubikuza bakabafasha gukemura ibyo bibazo byose.

Umukozi w'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, abakozi bayo bakuru ba MTN bashobora kuba baje kumuha amahugurwa ajyanye n'uburyo yazajya aha abaje bamugana serivisi nziza kandi inoze.

Akazu k'umucuruzi w'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya emutiyeni, aho ategereje abaza bamugana kugira abashe kubaha serivisi nziza batanga zijyanye no kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga ndetse no kubasha kwizigamira.

Umuturage wagiye gusaba serivisi mu kigo cy'itumanaho mu Rwanda, aho bashobora kuba bari kumuha serivisi y'uburyo ashobora kubitsa, akabikuza, akohereza amafaranga cyangwa akabasha kwizigamira mu buryo bworoshye.

Umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, yicaye mu kazu ke k'umuhondo, ari guha serivisi umukiriya waje amugana, zijyanye no kubitsa, akabikuza, cyangwa kohereza amafaranga abagize umuryango we.

Umugabo ukiri muto yishimiye gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga yishyura amafaranga yibyo kurya yahashye kandi ubwo buryo buba butekanye kuburyo ababukoreshe bagenda bishimye.

Umucuruzi ukorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda akaba ari gufasha umuturage kubona serivise akeneye, wenda nimba akeneye amafaranga akayamuha akoresheje terefone ye cyangwa ubushobozi bwo kubasha guhamagara abandi bantu.

Umuturage arishimye cyane nyuma yo gutsindira umupira mwiza cyane ndetse agatsindira n'igare abiheshejwe na sosiyete ikomeye y'itumanaho mu Rwanda, ari yo yitwa Emutiyeni. Arabwira abandi baturage na bo kuza bakifatanya muri iryo rushanwa.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe kugezaho abantu ibyo bagiye batuma bibereye mu ngo zabo yishimiye kuba agiye kugeza ku bantu ibyo batumye birimo karoti, amavuta ndetse n'imboga.

Umucuruzi ukorera ikigo gishinzwe kugeza kubantu ibyo batumije bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga , akabibagezaho aho bari , akaba ari kwitegura kujyana ibimaze gutumwa n'umuntu.

Abakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu bakoresheje amapikipiki yabo; ndetse bakaba bari gutwara abantu bakabageza aho bifuza kugera neza, kandi ku mafaranga make cyane.

Uburyo bw'ikoranabuhanga umuntu areberaho akoresheje telefone ye ngendanwa, akaba ashobora kureba ahantu agiye wenda atahazi icyo gikoresho kikamufasha kuhagera atayobye.

Ikigo gikomeye mu Rwanda cyitwa Iposita, kikaba gikorera mu nyubako y'amagorofa abiri, kikagira amamodoka, moto ndetse n'abakozi benshi, bafasha Abaturarwanda kugeza amabaruwa ku bantu babo.

Urubuga abantu bifashisha baguraraho imyambaro itandukanye inkweto, ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho ushobora kubigura ureba n'amafaranga ibyo bikoresho bigiye bigura, ukagitumiza kikakugeraho byihuse.

Icyapa kigaragaza uburyo ushobora guhaha wifashishije ikoranabuhanga, aho hariho nimero zabo ushobora kubahamagararaho, uburyo wabandikira ndetse bakakugezaho ibicuruzwa ku buntu aho waba uri hose muri Kigali.

Umukozi ukorera sosiyete ifasha abantu kubagezaho ibyo bakeneye batarinze bava aho bari, ajyanye ibyo bamutumye cyangwa se akaba agiye kubizana anejejwe no kuba akora ako kazi.

Ifoto iriho akagare karimo ibyo kurya bigiye bitandukanye, aho harimo amashu, bakagiramo imineke, inyanya, amaronji, amazi ndetse n'amagi, byiza cyane.

Ama pikipiki ahetse amasanduku, yifashishwa mu gutwara ibintu abantu baba bagiye babatuma binyujije ku buryo bw'ikoranabuhanga, aho babibageza ho mu ngo zabo batarinze bava aho bari.

Iki ni ikigo gifasha abantu kubona ibyo kurya batarinze bava aho bari, wowe icyo ukora n'ugutumiza gusa ibyo wifuza wahamagaye kuri iriya nimero yabo; bakabikuzanira iwawe ku giciro cyiza.

Ubu ni uburyo bwiza kandi bw'ikoranabuhanga bugezweho, aho iyo ugiye gushaka ikintu wandikamo izina ryacyo, ugakanda aho bashakira hanyuma kikaza ukabasha kukibona n'uko kigura.

Umuntu uparitse moto iriho igisanduku cy'umutuku, yambaye kasike ndetse n'umupira usa pinki n'ipantaro y'ubururu, n'inkweto za shokora ateruye igikapu kirimo ibintu.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe kugezaho abantu ibyo bagiye batuma binyuze muburyo bw'ikoranabuhanga anejejwe cyane no kuba ari gupakira ibyo agiye gushyira ababimutumye Kandi rwose ni akazi keza cyane.

Umukozi ukorera sosiyete y'ikoranabuhanga ifasha abantu kubona ibyo bakeneye batavuye iwabo anejejwe no kuba afasha abantu kubona ibyo bakeneye kandi mu buryo bwiza bwihuse batarinze baruha.

Umuntu ukorera ikigo gishinzwe kugezaho abantu ibyo bagiye batuma binyuze ku ikoranabuhanga, ari kujyana ibyo bamutumye ndetse ashimishijwe n'ako kazi kubera ko gafasha abantu gutuma ibyo kurya batarinze bava iwabo.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe kugenda kigeza abantu ibyo bifuza batavuye aho bari, ari kubika nk'ibyo baba bamutumye, agiye kubibagezaho, kandi biba byihuse, bikozwe mu buryo bitekanye.

Amakamyo y'umweru atandukanye akorera ikigo kimwe kitwa Twiga, akaba aramakamyo yifashishwa mu kujyana ibicuruzwa ahantu bashaka kubigeza bitabagoye.

Abakozi bakorera ikigo gishinzwe kugeza ku bantu ibyo batumye batavuye iwabo, barishimira iyo serivise bakora kubera ko ituma abantu badatakaza umwanya bajya guhaha n'ibindi ahubwo bo babibafashamo.

Ikinyamitende kifashishwa na sosiyete ikora ubucuruzi bw'ikoranabuhanga, aho bagenda bageza ku bakiriya babo ibintu bagiye batuma, bakabibagezaho mu ngo zabo byihuse, kandi vuba.

Ushobora kwiyandikisha uyu munsi kubera ko amasomo azatangira tariki ya cumi n'imwe z'ukwa munani, bakaba bigisha ibintu bigiye bitandukanye; kwiyandikisha ni amafaranga ibihumbi cumi na kimwe gusa.

Abamotari bakorera ikigo kitwa Yego Moto kiborohereza muri serivise baha abakiriya babo zo kubageza aho bagiye neza kandi k'umutekano mu buryo butarimo akaga.

Ni sosiyete yitwa Birasi, ifasha bantu kujya kuzana amagaze, cyangwa kuzana icupa ry'amazi, bakaba bakoresha uburyo bwihuse aho bakoresha ipikipiki, kandi ukaba ushobora no kubahamagara bakabikuzanira.

Isosiyete ikorera mu buryo bw'ikoranabuhanga, ifasha Abaturarwanda kubona ibyo bakeneye batarinze bava iwabo, ahubwo bakabitumaho bakabibashyira mu ngo zabo, aya rero ni amapikipiki bakoresha babibagezaho.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi aho abantu bashobora kuba bagura ibicuruzwa bigiye bitandukanye bifashishije ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga, bakaba banabibagezaho n'abari hanze ya Kigali byoroshye kandi byihuse.

Umuntu ukorera isosiyete ikomeyeho yitwa vuba vuba, aho bagenda bageza ku bantu mu ngo zabo ibyo bagiye babatuma, uyu ni umwe mu bayikorera, rero ashobora kuba agiye kugeza serivise ku muntu wayimusabye.

Umwe ukorera isosiyete ishinze gufasha abantu kubagezaho ibyo babatumye ku ikoranabuhanga, ari kureba neza ibyo agiye kuba yashyira umukiriya niba byujuje ubuziranenge kugira ngo abimugezeho.

Umwe mu bakozi bakorera kampani ikorera kuri interineti aho utuma ibintu bakabikugezaho atarinze uva iwawe mu rugo kandi mu gihe gitoya. Nawe ushobora kubigerageza ni byiza kandi birizewe.

Umukozi w'ikigo gishinzwe kugeza aho abantu ibyo bashaka batarinze bava aho bari, akaba ashobora kuba ajyanye ibyo yatumwe cyangwa agiye kubizana akabibagezaho mu buryo bwiza kandi bwihuse.

Umwe mu bakozi bakorera sosiyete y'ikoranabuhanga igeza ku bantu bagiye babatuma ibyo bakeneye bakabibasangisha mu rugo, ari kugeza ku bakiriya ibyo bamutumye ndetse urabona ko yishimiye iyo serivisi yahawe.

Isoko riri kwamamaza aho rifite amavuta meza, ifarini, inyama, igitoki, ibitunguru, karoti, amashu, ndetse bakaba bahananuye ibiciro babivanye ku bihumbi mirongo itandatu na birindwi magana atanu by'amanyarwanda babigeza ku bihumbi mirongo itanu na bine magana atanu by'amanyarwanda.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga abantu bahuriraho, aho babasha gushyiraho ibicuruzwa byabo, ibyo bacuruza cyangwa bakabasha kubonaho ibyo bifuza kugura bitabagoye kandi mu buryo buhendutse.

Ubu ni uburyo bwo kugura wifashishije mudasobwa, aho ubasha kugura ibintu bigiye bitandukanye birimo intebe zo mu nzu, mudasobwa, ukagura ibikinisho by'abana ndetse n'imyenda yo kwambara ku giciro cyiza.

Moto ifiteho igisanduku bifashisha batwara ibintu ku buryo butakwangirika, ubu bikaba bikunze gukoreshwa n'abantu batumiza ibintu ku buryo bw'ikoranabuhanga, aba ngabo bakabibagezaho mu buryo bwiza kandi bworoshye.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe kugeza ku bantu ibyo baba bagiye babatuma binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga, cyitwa Vuba Vuba, akaba anejejwe cyane no kuba akora iyo mirimo kubera ko yorohereza abantu guhaha batavuye mu ngo zabo.

Umwe mu bakozi ba sosiyete y'ikoranabuhanga abantu batumirizaho ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa bikabagezwaho mu ngo zabo, uyu ni umwe mu bajenti babo agiye kugeza kuri serivise uwayimutumye.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe kugeza ku bantu ibyo batumye, babitumije bari mu rugo iwabo akaba yishimira kuba afasha abantu, akabaha serivisi nziza ku buryo bibafasha gukora indi mirimo yabo isanzwe.

Umukozi wa sosiyete ifasha abantu kugeza ku bantu ibyo bagiye batuma ku ikoranabuhanga, ari ku igare ry'iwe ry'amashanyarazi; yishimiye kuba agiye kugeza ku bantu ibyo bagiye batuma, abibagezaho mu ngo zabo.

Urubuga rw'ikoranabuhanga ushobora kuguriraho ibintu ubitumije, bakaba bafite ibintu byiza cyane bikubiyemo amasakoshi, inkweto, imipira ndetse n'utuntu twiza two kumviramo imiziki.

Bacuruza inyama, amafi, amavuta, ibitunguru, karoti amashu, bose bakaba bakubise ibiciro hasi aho byavuye kubihumbi mirongo itandatu na birindwi na maganatanu bikajya ku bihumbi mirongo itanu na bine na maganatanu.

Uburyo sosiyete ishinzwe iby'itumanaho mu Rwanda yashyizeho bwo kwishyura ukabasha kubona uburyo bwo guhamagara abawe cyangwa kubandikira budahagarara, na none bakaguha enterinete yihuta cyane inyaruka nk'umurabyo.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe kugeza abantu ho ibintu bakeneye batavuye aho bari, ari kubika ibyo agiye kubashyira kugira abibagezeho bimeze neza kandi bimeze nk'uko yabitumye.

Umukozi ukorera sosiyete ifasha kugeza abantu ibyo bifuza aho bari batarinze bava aho bari, anejejwe no gukora uwo murimo, kuko ufasha benshi mu bantu batuye u Rwanda.

ikigo gishinzwe kugeza ku bantu amabaruwa babgiye babandikira kikaba gifite imodoka ibafasha kugeza amabaruwa munshe zitandukanye z'igihugu aho abantu ababa bandikiwe ku bwinshi.

Abakozi bashinzwe kugenda bakwirakwiza ibintu abantu batumye binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Bari kwitegura kuba bahaguruka, bakajyana ibyo ibintu abantu babatumye aho baherereye hose.

Ahantu bacururiza imboga ndetse n'imbuto byiza bishyashya byujuje ubuziranenge. Bikunzwe kugurwa n'abasirimu cyane, baba bashaka ibintu bikiri bishyashya bitabatera indwara, ndetse n'abandi bantu basanzwe.

Vuba vuba ni sosiyete ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda ifasha abantu kubona ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa bikabageraho iwabo mu rugo batarinze kujya kubyishakira ahubwo bo bakabibazanira.

Ifoto igaragaza urubuga abantu bahahiraho imyambaro igiye itandukanye, aho hariho amakote, inkweto, ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'amatara agezweho. Ushobora kubitumiza bikakugeraho ku giciro cyiza cyane.

Umumotari ukorera sosiyete ifasha kugeza abantu ibyo bakeneye aho batuye. Uyu ni umwe mu bayikorera rero akaba agiye kugeza serivise ku bayimutumye akayimugezaho iwe mu rugo.

Amandazi meza cyane aryoha yitwa urwibutso, akaba ari ku giciro cy'amafaranga magana atatu na mirongo itanu, aho ushobora kugurira ku rubuga rwa enterinete ukongera ayo ushaka cyangwa ukayagabanya bitewe n'ayo wifuza.

Uru ni urubuga abantu bakoresha bafite inzu cyangwa amamodoka cyangwa ibibanza bagurisha bakaba babigurisha bivuganiye n'abakiriya bashaka kubigura mu masaha atarenze makumyabiri n'abiri kandi bakagura kuri make bivuganiye nabanyirabyo.

Aho bashyiriramo igicuruzwa cyangwa serivise wifuza, ahandi ugashyiramo icyo ushaka kohereza, hanyuma ugahitamo igihugu wifuza ugashakisha, ushobora kugurira mu Rwanda cyangwa ugacururiza mu Rwanda.

Uru ni urubuga bacururizaho imyenda, inkweto, iy'abagore ndetse n'iy'abana, kandi ku giciro cyiza, bakaba babikugezaho ku buntu aho uri hose.

Apapikipiki ahetse udusanduku, akaba asanzwe amenyerewe mu gutwara abantu na ibintu, gusa ubungubu akaba yikoreye udusanduku tw'isosiyete ifasha abantu kubagezaho ibyo bakeneye batarinze buva mungo zabo.

Umukozi ukorera sosiyete yitwa vuba vuba, ari kugeza ku muguzi ibicuruzwa yashakaga kandi urabonako bishimye bombi , yaryohewe na serivise yahawe nziza kandi ikeye.

Umucuruzi ukorera ikigo gishinzwe kugeza kubantu ibyo batumye bifashishije ikoranabuhanga, akaba ari kubika ibyo abantu bamutumye ndetse akaba agiye no kubibagezaho ibyo bamutumye, yishimiye iyo serivise abaha.

Imwe muri sosiyeti koranabuhanga ikomeye mu Rwanda yifashishwa n'abatari bake, aho ubasha gutumiza ibyo ukeneye bakabikugezaho. Uyu ni umwe mu bakozi bayo ari kugeza k'umuntu ibyo yabashije kuba yagura.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rufasha abanyarwanda kubona: icyemezo cy'uko ari ingaragu, serivise z'ubutaka, kwemeza umuntu ko ari imfubyi, icyangobwa cy'uko ariho ndetse baniyandikishaho bashaka gukorera uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga.